Ni icyapa gisize irangi ry'umweru n'ubururu ryanditse mu ibara ry'umukara n'ubururu, bigaragara ko bari gushishikariza abantu kwizigama. Ushobora kwizigama ukazongererwahoro kane ku ijana.

Ni inzu isize irange ry'umweru ku rukuta, iriho imitako myinshi, iriho n'amafoto y'abantu, mu nzu harimo abakobwa babiri umwe ni umuzungu yambaye ishati y'umweru, afite imisatsi myinshi agakapu k'umukara undi.

Ni inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho isize irangi ry'umweru hejuru, iry'umukara ku bikuta bigaragara ko bacuruza imyambaro y'abakobwa igiye itandukanye, amapantaro, imipira ndetse n'amakoti yo kwifubika, amasengeri...

Ni inzu isize irangi ry'umweru ku rukuta bigaragara ko ari iy'ucuruzi bugiye butandukanye bw'imyenda, imipira cyangwa amashati y'amabara yose, harimo umukobwa ufite imisatsi yambaye umupira w'umuhondo.

Ni inzu yubakishije amakaro hasi, bigaragara ko bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye, N'imyenda y'aba mama ushobora kwambara ugiye gusura abantu mu bukwe ndetse n'ahandi, hari imitaka ikozwe mu bitenge.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka nziza bigaragara ko ikiri nshyashya isize irangi ry'umweru, ifite ibirahuri by'umukara, inyuma hariho icyapa cy'umweru cyanditse mu magambo y'umukara, hirya hateye ibiti birebire.

Ni umuhanda wamabuye, urimo ibyatsi bitari byinshi, haparitse imodoka nziza, isize irangi ry'umukara, ifite ibirahuri by'umukara, imbere hahagaze abantu bane, abagabo batatu, n'umu umwe bafite icyapa mu ntoki.

Ni imodoka nziza isize irange ry'umukara bigaragara ko ikiri nshyashya itarajya mu muhanda. Hirya hateye ibiti byinshi twifashisha tubona umwuka duhumeka, hari inzu igeretse yubatse mu buryo bugezweho.

Ni umuhanda wubakishije amabuye, haparitsemo imodoka ebyiri bifashishisha batwara imizigo igiye itandukanye, iyivana muntara imwe iyijyana mu yindi, isize irangi ry'umweru, hahagaze abahungu babiri, umwe yambaye umupira w'umutu.

Ni umuhanda wubakishije amabuye haparitsemo imodoka nini bifashisha batwara imizigo igiye itandukanye bayivana mu ntara imwe bayijyana mu yindi, isize irangi ry'umweru, imbere hahagaze abagabo babiri.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho yubakishije amatafari, ifite icyapa gisize irangi ry'ubururu n'umweru bigaragara ko ari ahantu bacururiza ibijyanye n'amata, hanze haparitse imodoka.

Ni inzu nziza yubatse mu b uryo bugezweho, bigaragara ko ari ahantu bacururiza ibijyanye n'amata cya bikomoka ku nka, ifite urugi rusize irangi ry'ubururu, hashushanyijeho inka handikishijeho ibara ry'umweru.

Ni ameza akozwe mu mbaho ariho umugati ni ikiribwa gikorwa mu ifarine, amata, amagi, ndetse n'indi misemburo ituma kibyimba, ni ifunguro ushobora gufata mu gitondo.

Ni amagambo yanditse mu ibara ry'umweru n'umuhondo, hari ibiganza by'umuntu w'inzobe ufite telefone mu ntoki, bigaragara ko ari kwerekana ko agiye kwishyura amafaranga atari makeya akoresheje momo.

Ni icyapa gisize irangi ry'umweru, umuhondo ndetse n'ubururu n'umweru, byanditse mu magambo y'umukara n'ubururu, bigaragara ko barikukwereka uburyo ushobora kwishyura, amafaranga kuri MTN.

Ni inzu yubatse mu buryo bugezweho bigaragara ko igerete, hariho icyapa gisize irange ry'umuhondo, umweru cyandikishije mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, bigaragara ko ari ahantu ushobora kubita amafaranga.

Ni inzu nini yubatse mu buryo bugezweho yubakishije amakaro hasi, harimo intebe z'imisego, ameza y'ibirahure. Bigaragara ko ushobora kuhakirira abashyitsi bagiye batandukanye bakuganye bakagubwa neza.

Ni ubwogero bunini hogeramo abantu benshi bagiye batandukanye. Harimo amazi asa ubururu. Hirya hari inzu ndende yubatse mu buryo bugezweho ifite ibirahure byinshi. Hari abantu bari kugenda n'amaguru.

Ni inzu nini yubatse mu buryo bugezweho igereretse. Isize irangi z'umweru, ku bikuta hateretse intebe nyinshi zigiye zitandukanye zisize irangi ry’umukara, ku meza hariho ibirahure. Bigaragara ko ari ahantu ushobora kwakirira abantu benshi.

Ni icyumba cyiza ushobora kuryamamo ukumva umeze neza, kiriho matera gishasheho amashuka ndetse n'ibiringiti by'ubwoko bwose, bifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru bifite amarido meza...

Ni ahantu heza hatuje hatari akavuyo, hari intebe nyinshi zisize irange ry'umweruru, ku twuma hasizeho irange ry'umukara, hari ameza ateretseho ibyo kurya ndetse n'ibinyobwa bigiye bitandukanye.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezeho ushobora kwakiriramo abantu benshi bagiye batandukanye nk'inama cyangwa ibindi birori, ni inzu yubakishije amakaro y'umweru hasi, isize irange ry'umweru ku bikuta irimo intebe...

Ni inzu nini ishobora kuba yaberamo inama zigiye zitandukanye nk'iz'ubukwe cyangwa izindi, isize irange ry'umweru hejuru, hasi yubakishije amakaro, hicayemo abantu abandi bari kugenda bigaragara ko...

Ni inzu iri ahantu heza yubatse mu buryo bugezweho, isize irange ry'umweru ku bikuta, ifite ibitambaro by'umukara biri ku madirishya, hateye ibiti byinshi hari intebe ushobora kwakiramo abashyitsi baje kugusura.

Ni inzu ndende yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umweru, ifite ibirahure by'ubururu bimwe muri byo bigiye bifunguye, ifite icyapa gisize irangi ry'umweru mu ibara.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umuhondo, hirya hateye indabyo ngufiya ziconze zisa neza, hari inzu nini yubatse mu buryo bugezweho igetse, hasi ifite imiryango irimo ibirahure by'umukara, hari icyapa gisize irange ry'umutuku.

Ni inzu yubatse mu buryo bugezweho, igeretse, igizwe n'ibirahure byinshi, isize irangi ry'umweru, yandikishije mu magambo y'umukara ku cyapa, bigaragara ko ari ahantu ushobora kuza kuguza amafaranga cyangwa kubitsa.

NI icyapa gisize irange ry'umweru, cyandikishije mu magambo y'ubururu ndetse n'umukara, hashushanyijeho umukobwa w'imibiri yombi ufite telefone mu ntoki, inyuma ye hari inzu nziza yubakishije.

N'inzu nini yubatse mu buryo bugezweho igeretse, isize irangi ry'umweru, ifite ibirahure by'umukara hariho icyapa gisize iragi ry'umweru, cyadikishije mu ibara ry'ubururu, hasi harimo umuntu.

Ni icyapa gisize irangi ry'umweru cyandicishije mu magambo yenda kumera nk'umukara, hariho ifoto y'abantu babiri umuhungu n'umukobwa, bigaragara ko umuhungu yaje kwivuza indwara zigiye zitandukanye.

Ni isoko nini bigaragara ko bagicururiza hasi ntiratera imbere, irimo urujya n'uruza rw'abantu benshi higanjemo abamama bigaragara ko bari gucuruzamo inyanya, intoryi, ibitunguru ndetse n'inse.

Ni isoko rinini ritaratera imbere bigaragara ko bacururiza hasi, ibiribwa bigiye bitandukanye amateke, ibitoki, karoti, ibirayi, imineke ibitunguru ndetse n'ibindi.

Ni isoko rinini bacururizamo imyambaro y'abagore igiye itandukanye, higanjemo ibitenge by'ubwoko bwose ushobora kwambara ugiye mu bukwe, gusura abantu ndetse wiriwe mu rugo, imyenda idahenze...

Ni inzu nini bigaragara ko ari iy'ubucuruzi bugiye butandukanye, bacuruzamo imyenda y'abantu bakuru ndetse n'iy'abana, amapantalo, imipira ndetse n'indi y'u bwoko bwose, mu mabara wifuza.

Ni isoko rinini bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye imbuto ndetse n'imboga, harimo umu mama wicaye bigaragara ko ari gucuruza, tungurusumu, inyanya, imineke, imyembe ndetse n'ibitunguru.

Ni imodoka nyinshi zigiye zitandukanye, harimo iyisize irangi ry'umukara, imyeru, hari iy'abashinzwe umutekano polisi isize irangi ry'umukara n'umweru, hari inzu ndende yubatse mu mujyi bugezweho, irimo abantu benshi.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezeho, iri ahantu heza yubakishije amabati hejuru. Harimo camera nyinshi, ni igikoresho bifashisha bareba abinjiye ndetse n'abasohotse, hahagazemo abakobwa babiri ndetse n'umuhungu bigaragara ko baje kwaka serivise.

Ni akazu ka MTN gasize irangi ry'umuhondo. Hahagaze umugabo wambaye ishati y'ubururu, ipantaro y’umukara. Imbere harimo undi wambaye umupira w'umukara bigaragara ko ari we uri gutanga serivisi zijyanye no kubikuza cyangwa kubi...

Ni umuhungu w'imibiri yombi wambaye ipantaro y'umukara, agapfukamunwa k'umukara , ari kuri moto isize irangi ry'umutuku iriho agakarito gasize irangi ry'umutuku cyandikishije mu ibara ry'umweru, bigaragara ko igemura ibintu watumije.

Ni icyapa gisize irangi ry'umweru gishushanyijeho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, agakapu k'abakobwa, umupira wo kwifubika, hariho n'ifoto y'umukobwa, amatelefone.

Ni umuhanda w'umukara uparitsemo moto enye ziriho abamotari inyuma, hateretseho ibikarito bisize irangi ryenda kumera umutuku, bigaragara ko batwara ibintu wagiye utumiza mu gihugu ahantu hagiye hatandukanye.

Ni inzu nini yubatse mu buryo bugezweho isize irangi ry'umweru ku bikuta irimo amatara y'umweru hejuru, irimo abantu babiri, umuhungu wambaye ishati y'umweru ipantaro y'umukara bigaragara ko ari gucuruza ibintu bigeye bitandukanye.

Ni inzu yubakishije amatafari ahiye, mo imbere harimo ikibanza kitubatse giherereye Kicukiro, iri kugurishwa amafaranga atari menshi, hateyemo ibiti bitari byinshi bike.

Ni abantu babiri umwe ni umuzungu yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'ikoboyi y'ubururu, ahagararanye n'uwambaye agapfukamunwa k'ubururu, ishati y'amaboko maremare y'umukara bigaragara ko hari ibintu baba barimo barareba.

Ni inzu yubatse mu buryo bugezweho isize irange ry'umweru ku rukuta ndetse no hejuru, yubakishije amakaro hasi iherereye mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, irimo intebe z'imitego z'umukara, ameza y'umweru.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije amakaro hasi, hari ibyuma bisize irangi ry'umukara, ifite ibirahuri by'umukara birimo imirongo y'umweru, iherereye mu mujyi wa Kigali, iri kugurishwa...

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umweru ku bikuta ndetse no hejuru, imbere hari asize irangi ry'umukara, iherereye mu Mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda iri kugurishwa amafaranga.

Ni inzu nini yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umweru ku rukuta, ndetse no ku birarahure, bigaragara ko ari igikoni batekeramo ibyo kurya bigiye bitandukanye, harimo utubati ushobora kubikamo.

Umuhanda wubakishije amabuye wegeranye n'inzu, yabakishije amatafari ahiye ifite utudirishya dutoya twinshi, hirya yayo hari indi ifite igipangu gisize irangi ry'umweru, iherereye Kigali mu gihugu cy'u Rwanda.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho isize irangi ry'umweru imbere, ifite ibirahuri by'umukara mu madirishya ndetse no mu nzugi, yubakishije amakaro hasi, iherereye Kimironko ifite ibyumba bitatu.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije amatafari ahiye, amabati y'umutuku, iherereye mu mujyi wa Kigali Kicukiro, irimo ibyumba bine byo kuraramo na bitatu bogeramo.

Ni inzu ndende yubatse mu buryo bugezweho igeretse, isize irangi ry'umweru risa nkaho riri gusaza ririmo imirongo y'umukara, iherereye Kimironko mu mujyi wa Kigali irakodeshwa.

Ni inzu nini yubatse mu buryo bugezweho yubakishije amakaro y'umweru hasi, ku bikuta hasize irangi ry'umweru, hicayemo umumama w'imibiri yombi ufite imisatsi y'umukara, yicaye ku ntebe y'umukara bigaragara ko bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye.

Ni inzu nini bigaragara ko ari iy'ubucuruzi bugiye butandukanye yubakishije amakaro y'umweru hasi, harimo abantu baje kugura ndetse n'abagurisha harimo ibicuruzwa by'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa.

Ni inzu nini yubatse mu buryo bugezweho bigaragara ko ari uy'ubucuruzi bugiye butandukanye, yubakishije amakaro, hasi hahagaze umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara, bacururizamo ibijyanye n'ibinyobwa by'ubwoko bwose.

Ni inzu nini yubatse mu buryo bugezweho irimo icyapa gisize irangi ry'icyatsi, cyandikishije mu magambo y'umweru, ikindi gisize irange ry'umutuku mu magambo y'umweru, bigaragara ko bacuruza ibyo kurya bigiye bitandukanye, harimo umukobwa.

Ni inzu nini bigaragara ko ari iy'ubucuruzi bugiye butandukanye, isize irangi ry'umweru ku bikuta no hejuru, iriho icyapa gisize irangi ry'umuhondo kiriho amagambo yandikishije mu ibara ry'umukara harimo....

Ni inzu nini bigaragara ko ari iy'ubucuruzi isize irange ry'umweru hejuru, irimo amatara ari kwaka bigaragara ko bacuruza ibintu bigiye bitandukanye harimo n'ibinyobwa, hari abantu benshi bigaragara ko baje guhaha.

Ni inzu yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umuhondo n'umweru, hejuru yubakishije amabati asize irangi ry'ubururu, hari abantu benshi bagiye batandukanye, bigaragara ko ari ahantu bavurira abantu.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho igizwe n'ibirahure byinshi, hanze hahagaze umumama udafite umusatsi mwinshi wambaye ishati y'umweru, mo imbere harimo umugabo uri kwandika ufite ikaramu bigaragara ko ari gufasha uwo mumama.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, amabati y'umweru asize akarange k'umutuku ku ruhande, hari abantu benshi bagiye batandukanye bigaragara ko ari byo baje kureba bari kwamamaza hari uwambaye umupira.

Ni inzu yubakishije amatafari ahiye, iriho icyapa gisize irangi ry'umweru, cyandikishije mu ibara ry'umutuku ndetse n'icyatsi, irimo imibare yandikishije ibara ry'umuhondo bigaragara ko hari ibintu..

Ni inzu nini isize irange ry'umweru ku rukuta, yubakishije amakoro hasi, irimo abantu benshi bagiye batandukanye bigaragara ko bacuruza ibyo kurya by'ubwoko bwose harimo abambaye imipira y'umuhondo yandikishije mu ibara ry'uburu...

Ni inzu nini biragaragara ko ari ku masaha ya nijoro, yubakishije amakaro y'umweru bigaragara ko bacururizamo ibyo kurya bigiye bitandukanye ndetse n'ibinyobwa, harimo amaji y'ubwoko bwo...

Ninzu nini bigaragara ko ariyoubucuruzi bugiye butandukanye yubakishije amakaro hasi higanjemo ibinyobwa by'ubwoko bwose amafoto y'ubwoko bwose amaji yo mubukarito ndetse n'ibindi byose baba bifuza.

Ni inzu bigaragara ko ari iy'ubucuruzi bugiye butandukanye, harimo abantu babiri, umukobwa w'imibiri yombi, ufite imisatsi y'umukara, wambaye umupira w'umutuku urimo uturongo tw'umweru, itaburiya y'umukara, bigaragara ko hari ibintu ari kugurisha.